Umurima umeze nk'aho badahingamo urimo amabuye, n'ibishashure, n'ibyatsi, n'imigwegwe, n'ibiti. Uwo murima umeze nk'aho batawuhingamo hameze nk'inzira.

Umurima umeze nk'aho urimo amakoro n'ibyatsi, uwo murima ukaba umeze nk'aho uwo murima batawuhingamo, kuko urimo amabuye menshi.

Ibiti bimeze nk'aho bishingiye bimeze nk'aho biteye mu murima. Ibyo biti bikaba nta kindi kintu birimo bikaba bimeze nk'amatunda.

Umuririma uteyemo ibihingwa bitandukanye, harimo ibihaza, harimo igiti, harimo ibishyimbo, harimo n'ibigori. Uyu murima, ibigori bikaba bitari byera.